Abaganga bari gutanga serivisi z'ubuvuzi, umuganga umwe ari kwambika umusaza, agakoresho mu kuboko kwe kw'ibumoso, kamufasha mu gupima indwara zitandukanye, imivuduko y'amaraso, uburyo umutima utera ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Abantu bicaye batuje, higanjemo igitsina gore bicaye ku tubaraza tw'inzu, inzu ifite inkingi zifite amatafari ahiye, ndetse n'izindi nkingi z'ibyuma by'ibara ry'umukara. Inzu ikaba isakajwe amabati afite ibara ry'umutuku.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abandi bicaye, bari kwifotoza bamwe bamwenyura, bambaye amashati ndetse n'abambaye kositimu.

Abana bambaye amashati y'umweru, inkweto z'umukara, bari gukora ku mazi barimo barakaraba, inyuma hari amashyamba yiganje mu ibara ry'icyatsi ndetse n'indabyo mu ibara ry'umuhondo.

Umurwayi wicaye, yambaye umwenda wo kwa muganga mu ibara ry'ubururu, ateze igitambaro mu umutwe, muganga ari kumwambika mu kuboko kw'imoso, agapima umuvuduko w'amaraso, uko umutima utera, ndetse hari undi muganga ufashe ama dokima mu ntoki, ndetse yambaye no mu ijosi agapima umutima.

Abantu bahagaze ku murongo, ibitsina byombi, abagabo ndetse n'abagore, bahagaze ku nyubako ifite amabara atandukanye, ay'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi cyerurutse cyane. Bakaba bahagaze bose bari kwifotoza.

Kwa muganga, abaganga bambaye impuzankano mu ibara ry'ubururu, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero, bari kwita ku murwayi bamuvura.

Abana babiri banezerewe bari gukora mu mazi umwe yambaye imyenda yiganjemo icyatsi n'utudomo tw'umweru ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku bari kuri robine y'amazi banezerewe.

Inzu irimo ibyuma by'ikoranabuhanga, umugabo uhagaze yambaye imyenda y'ibara ry'ubururu kuva hejuru kugera hasi, hari umudamu umwicaye imbere, ufite umusatsi mwinshi w'umukara arimo arandika.

Abana bambaye impuzankano izwi ku izina rya kacye, bose bari ku marobine atatu, babiri bari kuri robine imwe, kandi babiri babiri batyo bose bafite amadobo ari mu ibara ry'umuhondo bari kuvoma baseka banezerewe.

Umumama uri ku ipompo y'amazi yambaye umupira w'icyatsi, yambaye hasi ijipo iri mu ibara ry'umweru n'akitero mu mutwe kari mu ibara ry'umuhondo, akikijwe n'abantu bari kureba uko avoma, hari umwana uteza ijekani kuri robine, arimo arategamo amazi ngo ajyemo neza.

Abantu benshi bari guseka biganjemo gitsina gore hagati harimo umugabo w'uruhu rwera yambaye ikositimu, amarinete arimo araseka, inyuma akikijwe n'abambaye amataburiya y'ubururu bwerurutse ndetse n'undi uri ku ruhande wambaye itaburiya y'umweru na karuvati mo imbere ya shokora.

Abantu b'ingeri zose bicaye muri sale harimo bambaye imipira y'icyatsi, iy'umweru, bafite amazi amacupa atetse imbere yabo ndetse bose bambaye utupfukamunwa tw'umukara.

Abantu bahagaze b'ingeri zombi abagabo, abagore, hanyuma inyuma y'aho bahagaze hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, uburyo bwo gukumira no kurwanya ndetse n'andi yanditse munsi y'ibara ry'umutuku, ugutwita kw'abangavu.

Abamama bari ku cyuma kiri gupompa amazi, babiri barimo baramanura icyuma bongera bakizamura kizana amazi ndetse undi mumama nawe atezeho indobo ku munwa w'icyuma aho amazi arimo arazira.

Abana babiri, umwe uri kuzamura icyuma yongera akimanura ,yambaye ishati y'umweru ndetse n'agakoboyi ndetse n'undi mwana ufite akabido ateze amazi ngo ajyemo yambaye n'agapira n'umweru karimo uturongo tw'umukara ndetse n'akajipo.

Abantu bahagaze ku masikariye bari kwifotoza bafata ifoto, bambaye amataburiya harimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma hakaba hari icyapa cya MTN mu ibara ry'umuhondo, iyo nzu ikaba iri mu mabara y'umweru.

Abana babiri bari kuvoma bavomera madobo y'umweru, umwe afashe kuri kano ari gufungura amazi, undi na we afashe indobo mu ntoki, bose bari kumwenyura berekana amenyo.

Umwana uri guseka afashe ikibabi cy'icyatsi, inyuma ye hari umukobwa wambaye akantu mu mutwe k'agatambaro ndetse n'agakanzu k'amabara atandukanye, bari mu bimera bifite ibara ry'icyatsi, hejuru handitseho World Vision.

Abantu bari mu nama bicaye, hari abicaye kuri pano batatu, inyuma handitseho Stakeholders Meeting on MVD, mu mabara y'umweru ndetse n'abandi bicaye imbere yabo bafite amazi imbere bicaye bakurikiye ibyo babwirwa.

Umuntu wicaye ye hasi afite mu ntoki. icyatsi kibisi yambaye hasi umwenda w'umutuku yambaye ikote, hino iburyo hari amacupa inyuma ye hari urujyaza rw'abantu bagenda batambuka.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi w'umukara, akaba arimo araseka cyane anezerewe, yambaye agasenge k'umukara, agashanete mu ijosi, ipantaro y'ikoboyi, yazamuye akaguru ke k'ibumoso, yafatishijeho ukuboko kwe kw'ibumoso ndetse ukuboko kw'iburyo kukaba gufashe ku kuboko, ukuguru kwe kw'iburyo, inyuma ye hakaba hari indabyo zifite ibara ry'icyatsi.

Umusaza wambaye imyenda ya kake ukuboko kw'iburyo gufashe ku butaka, ukundi kw'ibumoso kuri kwerekeza mu kirere, inyuma ye hari amazu ndetse n'ipoto hari n'abantu, umwe wicaye ku igare yambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi bahagaze bambaye imipira y'ubururu, bari kwifotoza ndetse hagati yabo harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara na karuvati ndetse ku ruhande hakaba hari n'undi muzungu w'umugore wambaye amarinete, ubona ko bari mu nzu bose bari kwifotoza.

Abantu babiri umwe w'umugabo wasobekeranyije intoki ze zifashe ku gahanga yunamye, hanyuma ikiganza cy'umukobwa kimufashe ku rutugu, arimo amuhumuriza ubona ko yihebye atameze neza.

Umugore wicaye afite mikorofone mu ntoki, iruhande rw'iwe rw'iburyo hicaye umugabo wambaye umupira w'umukara, yiyogoshesheje umusatsi yawumazeho, yicaye ku ntebe umudamu y'umutuku amaboko ye yombi ari ku meza, imbere ye hateretse ishakoshi.

Umumama wicaye mu cyumba yicaye ku ntebe yo mu biti, yambaye igitenge cy'amabara atandukanye ndetse n'umupira w'amaboko maremare, inyuma ye hari idirishya rifunguye rifite ibara ry'umukara hasi imbere ye gatoya hari umukeka.

Abantu benshi banezerewe, bishimye, bose bafite amadarapo mu ntoki y'igihugu cy'u Rwanda, hagati harimo akana kambaye umupira w'ubururu wo mu budodo, ku musozo w'amaboko ndetse no ku ijosha hariho ibara ry'umweru.

Umuntu uri guseka yishimye anezerewe, yambaye runiga y'icyatsi kijimye afite agakoresho mu ntoki ku kuboko ku iburyo kariho amenyo agiye atandukanye amabara y'umweru, ukuboko ku ibumoso kurimo kurerekana gutunze kuri ako gakoresho gafashwe n'ukuboko kwe ku iburyo.

Umumama n'umwana barimo bari borosa bose bamwenyura bari guseka, bambaye bose udusengeri tw'ibara ry'umweru, n'imisatsi bose itaratse, umwana ifunze gakeya, hanyuma bakaba bari mu cyumba cy'ibara ry'umweru.

Icyuma kiri muri y'umweru n'umukara giteretse ku meza y'ibara ry'umweru hanyuma uri mu cyumba gifite igikuta kirimo ibara ry'ivu.

Umuntu uri guseka afite umusatsi y'amamenshi aririmo akuma kuruhande hanyuma imbere ye hari ubwoko bwamenyo bugiye butandukanye hari ukuboko kwambaye ga kuri gukoza iryinyo kuye bapima uko angana.

Abaganga babiri umwe yambaye itaburiya y'ubururu na aga mu ntoki, undi yambayetaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, munsi yabo hari umurwayi uharyamye uri guhabwa, serivisi ijyanye n'amenyo.

Abaganga babiri, umwe umugabo ndetse n'undi w'igitsina gore, bambaye udupfukamunwa, barimo baraha umwana serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye impuzankano z'imipira y'cyatsi, inyuma yabo hahagaze abaganga bari kugenda babaha abavuzi bujyanye n'amenyo.

Abantu batatu b'igitsina gore, bicaye bari guseka, birabura, bafite udukarita mu ntoki zabo, umwe usa n'ukuze, ufite imisatsi y'umweru ndetse n'undi ukiri mutoya, wambaye agapira k'umutuku, bose banezerewe.

Abantu bari gutambuka bagenda mu byerekezo bimwe, harimo abambaye hejuru imipira y'ubururu, ndetse n'umbaye ingofero uri imbere ya bose, hanyuma hamwe boseba akaba ari batanu bari kugenda muri kaburimbo, iruhande rwabo rwa kaburimbo hakaba hari indabyo ziteye.

Abantu babiri, nk'uyu mugabo wateretse ubwanwa bwinshi bw'umweru, ndetse hakaba n'undi mukobwa ufite amamenshi, arimo aramusukira mu ntoki imiti yo kunywa, kugira ngo anyweshe icyo kunywa afite mu ntoki.

Abantu babiri umwe w'umuganga yambaye agapima umurwayi mu ijosi, ari kumwe n'umubyeyi bambaye bose imyenda, muganga yambaye umwenda w'akazi w'ubururu, ndetse na mama yambaye agapira kajya gusa ubururu bwerurutse na gashaneti mu ijosi. Bashyiranyeho imitwe bishimye banezerewe.

Abantu babiri umwe w'igitsina gabo w'uruhu rwirabura ndetse n'undi w'igitsina gore w'umuzungu, barimo baraseka bafatanyije ibiganza byabo byombi by'iburyo, bose barimo baraseka umugabo yambaye amarinete ndetse bari mu nzu yiganjemo amabara y'umweru.

Umusaza wicaye ari guseka imbereye hateretse isahani y'itasi yicaranye n'umukecuru wuje imvi z'umweru bari kurebana baseka, inyuma yabo hari umusore wambaye amarinete wari urimo urasunika umusaza afashe agatebe nawe ari kumwenyura.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, amataburiya y'ubururu bwerurutse, bambaye utunu mu mutwe ndetse n'udupfukamunwa, hari umusaza wicaye, yambaye ingofero y''ubururu, imyenda y'umukara umuganga umwe ari kumurika mu kanwa amuha serivise y'ubuvuzi.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi y'ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi inyuma hari amamashini bari mu kazi bari gutanga serivisi y'ubuvuzi.

Abantu benshi, biganjemo abambaye amakoti. Baje mu nama ya Occupation Health and Safety Conference ya bibiri na makumyabiri na kane, inyuma icyo cyapa kikaba cyandikishije mu mabara atandukanye. Amabara y'umuhondo, ubururu ndetse na move.

Abantu bicaye ku ntebe, bambaye udupfukamunwa tw'ibara ry'umweru ndetse hari abandi bari kubabaza bigaragara ko ari abaganga, bambaye masike ndetse n'ikinga amaso, bambaye ndetse n'ibibarinda umubiri amataburiya.

amagambo yanditse amabara atandukanye hari amagambo manini yanditse mu ibara ry'umweru csa kin rwanda'andi yanditse ibara ry'umweru ariko ari mu mukantu k'umutuku sevingraveldflfanggwatfoseball nan yanditse mu ibara ry'umuhondo hasi ariko y'amatariki none munsitsi gatoya hari akandi a kantu k'umuhondo kanditseho amagambo alas vp

Umugabo uhagaze arimo aratanga ikiganiro, umuzungu yambaye amarinete, ikositimu y'umukara imbere ishati y'ubururu na karuvati y'umukara. Inyuma handitseho CPHIA bibiri na maku na kabiri.

Umugabo uhagaze ahantu haparitse imodoka nyinshi, imodoka mu mabara atandukanye ay'umukara ay'umweru, ndetse ku ruhande hari inyubako ndende zigeretse inshuro irenze imwe, mu mabara y'ivu ndetse n'icyatsi kijimye.

Umurongo w'abantu benshi bahagaze, higanjemo abazungu bose bari gufata ifoto, bahagaze imbere y'inyubako, hejuru handitseho Rwamagana Hospital mu ibara ry'icyatsi, ku gikuta cy'iyo nzu byanditseho biri mu ibara ry'ubururu ndetse ku ruhande ari umuhondo.

Inyubako irimo amabara y'umweru, hanyuma aho umuti yinjirira hakaba hari mu ibara ry'ubururu handikishije amagambo mu ibara ry'umweru avuga ngo:" Nyarugenge district hospital". Hariho utumenyetso tubiri twerekana umuryango, hakaba hateye indabyo ndetse n'ibiti imbere y'aho.

Umuhanda wo kugendwamo, umuhanda harimo icyapa, amabara y'umweru hariho ibirango cy'u Rwanda handitseho kigali city, ndetse hakaba n'ibipangu byubakijwe amatafari ahiye, ndetse n'ibiti ku mpande mu mabara y'icyatsi.

Abantu bicaye muri sale bambaye imipra yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru n'ubururu bwerurutse cyane, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umweru bakurikiye bateze amatwi ibyo bari kubwirwa.

Icyumba harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru yambaye mask mu mutwe ,hari ibyuma mu mabara y'ubururu ,umweru ndetse n'icyumba kika kigizwe n'amabara y'umweru hasi asa n'ivu.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru y'amataburiya, bambaye udupfukamunwa, bahagaze imbere y'imashini yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara mukeya ndetse bari mu cyumba cyiganjemo ibara ry'umweru.

Aba mama n'abapapa, bicaye ku gasima ndetse hari n'abahagaze bategereje guhabwa serivisi zitandukanye, hanyuma amazu akikije aba agizwe mu ibara ry'umweru ndetse n'inzugi ziri mu ibara ry'ivu.

Inzu nini ifite amabati y'ivu, ikaba yubakishwa amatafari ahiye. Imbere yaho hakaba hari imbuga nziza nini, ku ruhande hagiye hateyeho indabyo ndetse hari n'icyapa cyerekana ibintu bihakorerwa.

Abantu benshi baje kwisuzumisha, muri pediyoni clinic, harimo abambaye imyenda itandukanye bari gutanga serivisi bambaye imipira y'icyatsi n'udupfukamunwa, ndetse n'abaturage baje kwaka serivisi y'ubuvuzi.

Icyanya nyaburanga kiganjemo umubare w'cyatsi bitewe n'ibimera bihari, hari inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, hejuru zifite ibisenge bisizeho irangi ry'icyatsi ndetse kandi two gutangira abanyamuryango ngo badakora agisida dusizwe amarangi y'icyatsi.

Amazu meza cyane ari ahantu hitaruye hatuje ari mu mabara atandukanye amabara y'umweru, afite ibisenge by'umutuku, hagati hari akajaride utwatsi tumeze neza, indabyo, hari ikirere kimeze neza cyane, hakurya hari imisozi yuje amabengeza.

Icyumba harimo intebe ziganjemo ibara ry'ubururu n'umweru, hakaba hari nindi bikoresho bitandukanye mu mabara y'ubururu, amabara y'umweru ndetse n'ay'umuhondo, hasi hakaba hashashe amakaro ari mu ibara ry'ivu ryijimye.

Abakobwa bari ku murongo umwe bagera muri batandatu, batanu bazamuye ikiganza cyabo k'iburyo ndetse n'umwe uri ibumoso bwabo yazamuye ikiganza cy'ibumoso, bose bambaye udupfukamunwa, bambaye impuzankano y'ubururu, bakora muri farumasi, inyuma yabo handitseho ijambo rinini legacymu ibara ry'icyatsi ndetse n'iryanditse mu ibara ry'umukara clinics.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye mu mabara menshi harimo amabara y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse imbere ukomeje hakaba hari ikirahure hakurya hagaragara andi mazu.

Abantu benshi bicaye bifotoza harimo abasutamye ndetse n'abahagaze, bifotoreza imbere y'inzu yanditseho inzu y'ababyeyi materinite isakajwe n'amabati y'ubururu, irimo amabara y'umuhondo ndetse yubakishijwe n'amatafari ahiye.

Inyubako yiganje mu ibara ry'ivu imbere yaho hari umuhanda gucamo hari n'inzu y'amabara y'umweru, hino yaho hari idaraporo ry'u Rwanda, hasi hari ibyatsi biconze neza, ubona ari ari ahantu hameze neza cyane.

Abakozi bari mu ruganda bambaye imyenda y'akazi mu ibara ry'umweru, bari hafi y'imashini bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, hari ibicuruzwa birimo birakorwa mu macupa y'umweru.

Abantu bane bambaye imyenda isa ibara ry'ubururu rwerurutse bambaye ubusa udupfukamunwa dusa inyuma hari inzu y'amabara ya shokora, amadirishya arimo mu tubara tw'umweru tugenda tunyuramo ,hasi hari amapave apavamye, hanyuma hejuru y'inzu wanditse ngo '' inzu y'ababyeyi maternite''.

Ahantu heza cyane hafite ibyatsi byiza cyane mu ibara ry'cyatsi. Hari amazu afite ibara ry'umweru ndetse n'iry'ubururu, hakaba hasa neza hakeye, hari ikirere gitanga imvura cyiza cyane n'akazuba kari mu rugero.

Umusore ufite umukoropesho arimo aragenda atambuka mu bitanda by'abarwayi agenda ahanagura, yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro, ndetse abarwayi bari ku bitaro baryamye, hari na mugenzi we w'umukobwa uri hirya mu cyerekezo cy'iburyo yambaye itaburiya y'umweru na ga z'ubururu ntoki ndetse n'agapfukamunwa nawe ari gukoropa.

Icyuma cyitwa microscope cyifashishwa mu kureba microbe ntoya cyane zitabashwa kuba zabonwa n'amaso ya muntu, ku ruhande rwayo hari udukoresho dutandukanye turimo ibisukika. Utwo dukoresho tukaba dukoze mu birahure.

Sekirite uhagaze yambaye imyenda y'akazi, hino ye iburyo bwe hari bariyeri, hari abantu bari gutambuka ku rundi ruhande ukomeje imbere ye, hanyuma hakurya hakaba hari umusozi uteyeho amashyamba n'ikirere cyiza kidatanga imvura.

Mu kibuga hari umukinnyi uryamye hasi avunitse hari abantu babiri ba croix rouge bambaye amajiri y'umutuku umwe w'umugabo ndetse n'undi mugore, umikinnyi aryamye hasi barimo baramushyira splay ku kuguru ndetse abandi bakinnyi bahagaze, babazengurutse, bari kureba uburyo mugenzi wabo yitabwaho.

Uducupa dutatu twose dusa turi mu mabara y'umweru ndetse hakaba hariho n'igipapuro kiriho amabara y'ubururu, umutuku, umweru n'umuhondo handitseho sitopeyini mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Umuntu wambaye imyenda y'imikara, ari gukora siporo ukuguru kumwe kuri inyuma, ukundi kuri imbere, gutegenye n'ukuboko kwe kw'ibumoso, arimo arakora siporo agorora umubiri.

Umukobwa uri kwinanura wambaye kora y'umukara, agasengeri k'umukara, afite umusatsi mwinshi w'umukara, amaboko yose ayazamuye mu birere, ari kwinanura yicaye ku buriri.

Umuntu w'umukobwa uri kwinanura, akaboko ke k'ibumoso gafashe ku kirenge cy'iburyo, akandi ke k'iburyo akaboko gafashe mu mugongo, afite umusatsi mwinshi, yambaye isengeri ndetse anambaye n'ipantaro y'ivu. Iruhande rwe igikuta kikaba gisa ubururu bwerurutse, hasi akaba akandagiye ku gatapi kari mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Umuntu uri kunywa amazi yambaye umupira w'amaboko maremare afite n'ingofero akaba yambaye ikabutura ari kunywa amazi inyuma ye hari igikuta cyo m'ibara ry'umweru.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze utera icyuma mu ntoki akora siporo, yambaye umupira w'umukara, yambaye ipantaro ijya gusa n'ivu, arimo arakora siporo, akambara n'udukomo ku maboko tw'umukara, akaboko k'iburyo ndetse n'akandi kameze nk'umuringa ku kaboko k'ibumoso.

Ukuboko k'umuntu w'igitsina gabo kwifashe mu gituza, ku kuboko kwe hariho amabara atandukanye y'ubururu ndetse n'ay'umutuku, inyuma ye hari ishusho ry'ibara ry'ubururu.

Umuntu w'igitsina gabo, ufashe n'amaboko yombi ku ka guru ke, yambaye kora yo mu ibara ry'umukara, hariho akantu k'umweru imbere, yambaye impeta kuri musumbazose ndetse na anambaye n'agakomo ntoki, yambaye agapira k'umweru, ari kugorora ukuguru.

Agakoresho kameze nk'akapu karimo ibikoresho bitandukanye: umukasi, siterire kombine padi, sheri adenisi bandanise, ndetse n'ibindi biri mumabara atandukanye: umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'umweru.

Ikarito iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, hashushanyijeho uducupa turi mu ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'umweru, ku mutwe hakaba handitseho Neosporine, hanyuma iryo cupa hakaba handitseho Neosporine mu amagambo y'ubururu manini.

Agakoresho gakoreshwa kugira ngo habikwe imiti cyangwa ibindi bikoresho bitandukanye, gafite ibara ry'icyatsi, gateretsemo amacupa atandukanye vaseline, lapoid ndetse imbere hateretse umukasi n'ibipfuko ndetse na cord pack.

Akuma kifashishwa n'abaganga mu kumva uko ubuzima buhagaze bw'umurwayi, kari kumwe na baro mu mabara y'umweru n'ay'umukara, ndetse na none biri kumwe n'urukweto rwa godiyo rw'abakinnyi, ruri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara. Hasi gatoya hari n'ibara rya shokora.

Umuntu uri ku nywa mazi afite ubwanwa bwinshi ndetse n'isengengeri isa icyatsi imbere inyuma isa umukara.

Abagabo babiri, umwe wunamye wambaye imyenda y'umukara hose n'ipantaro irimo utubara tw'umweru ku ruhande. Ari muri siporo ndetse na mugenzi w'umuzungu uri imbere ye wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'ubururu n'inkweto z'umukara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'amoko atandukanye, mu mabara agiye atandukanye, amabara y'ubururu, umweru, umuhondo n'umweru ndetse n'amabara y'icyatsi.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino itandukanye. Harimo kasike yambarwa mu umukino wa mericani futubalo, ndetse hakaba hari na balo ya Rugubi, hakaba hari nanone balo ya futubalo, hakaba hari na balo ya tenisi, ndetse na balo ya volebalo.

Sikirini yerekana umutwe w'umuntu, ubwonko, ibice mbega bigize umutwe muri rusange ukuntu bigiye bimeze. Niba hari ibifite ikibazo cyangwa ibitagifite byose bigaragara imbere kuri sikirini mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Amacupa menshi ndetse n'ibirahure, amacupa akaba arimo ibisukika byiganjemo amabara ry'umuhondo werurutse, ateretse ku gakoresho kagenda kagabanya icupa n'umwanya waryo.

Agati gafite amashami y'icyatsi asongosoye, kanyujijwemo inshuro ebyiri, hanyuma hejuru hateretseho agakoresho karimo ibara ry'umweru.

Icupa rigizwe n'ibara ry'umweru, hari amagambo yanditse amabara atandukanye, forever daily, ndetse n'irindi bara rya move ryanditsemo ijambo forever.

Ikimera gifite amababi magufiya azengurutse, kikaba gifite ibara ry'icyatsi, cyarakuze, cyaragaye cyarabaye kinini.

Amacupa ari mu mabara atandukanye mu ngano zitandukanye harimo amacupa ya oliyo vera jeri, amabara y'umuhondo ashushanyijeho igikarubamba ndetse n'umupfundikizo wa shokora ndetse no hasi n'andi ari mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'andi ari mu mabara y'icyatsi n'umweru.

Ibicuruzwa bitandukanye by'amoko atandukanye, harimo inanasi, hari ndetse n'ibicuruzwa biri mu ikarito y'amabara atandukanye umutuku, umweru n'umukara ndetse n'ayandi urugero nka lude ndetse na pushizi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Igiti gifite ibibabi bisongosoye, bituruka aho bitereye ari bigari bikagenda ku mutwe biba bitoya, bikaba byiganjemo ibara ry'icyatsi.

Ibiti by'imbuto byose biteye birunze ahantu hamwe, bisigaje kugemura byose ibara ry'icyatsi, hanyuma itaka birimo rikaba rizengurutswe n'agakoresho gafite ibara ry'umukara.

Umumama wambaye igitenge kirimo amabara atandukanye y'umuhondo, ayi cyatsi, ayumutuku, ikiganza cye gifashe ku rurabyo rw'iroza.

Abantu bari gusarura icyayi, bunamye basarura ndetse harimo n'undi witangiriye wambaye wikwije hose nawe ahagaze, arimo afasha abunamye gusarura.

Amacupa atandukanye y'ubwoko butandukanye mu ngano zitandukanye, harimo ayiganje mu mabara atandukanye y'icyatsi, umukara, shokora, umutuku ndetse n'icyatsi.

Amacupa menshi atandukanye, amabara aratandukanye mu bwoko butandukanye, harimo a y'umuhondo, umweru, cyatsi ndetse hari n'ashushanyijeho igikarubamba.

Amacupa arimo ibara ry'umuhondo ndetse na shokora ku mupfundikizo, hashushanyijeho ikikarwamba, handitseho amagambo shokora manini foreva aroye wera geri.

Igikoresho kibajwe mu giti, kikaba giteritseho utubabi twinshi turi mu ibara ry'icyatsi.

Ikirango cya Rwanda fda, Rwanda food and drugs authority. Kiri mu mabara atandukanye, ku ruhande hakaba hari amabara y'umutuku. Hagati hakaba hari amabara y'icyatsi, y'umuhondo, ubururu ndetse no hasi hakaba hari izuba ryakamo.

Abantu bahagaze, bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abandi bambaye amakote ndetse n'amashati, bahagaze imbere y'ibimera byitwa ibikakarubamba.

Amacupa abiri, rimwe riri mu ibara ry'umweru, hashushanyijeho igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi, rifite umupfundikizo w'umutuku ndetse n'irindi riri ku ruhande na none riri mu mabara y'umuhondo, igikakarubamba, ibara ry'icyatsi ndetse n'umupfundikizo wa shokora. Ayo macupa rimwe rikaba ryanditseho iryo ry'umuhondo handitseho forever aloe gel, irindi handitseho aloe berry nectar.